Umubyeyi yicaye hagati y'abana. Abana bicaye barambije bamukikije, bakaba barimo kugenda baganirizwa ibintu bigiye bitandukanye, bibafasha mu mikurire yabo.

Abana b'abanyeshuri bibereye inyuma y'ishuri, barimo kugenda bakirana nyamara amasomo mu ishuri yamaze gutangira. Mu by'ukuri si ibintu byiza ko abana barangara.

Abana batoya biga mu mashuri y'inshuke bari kumwe na mwarimu wabo, bakaba bari kugenda bakirana ndetse banaganira. Aba bana bamwe bambaye imyenda y'umuhondo, abandi bambaye imyenda itukura.

Abana bicaye bazengurutse ameza, bafite udukarito tubiri bari kugenda batwifashisha mu myigire yabo, aho bagenda bakoresha gufora baforeranya.

Abana baricaye, bararambije. Bigaragara ko bicaranye na mwarimu wabo urimo kubigisha. Aba bana bose ni batoya, biga mu mashuri y'incuke, mu by'ukuri bikaba ari ibintu byiza cyane.

Intebe zicaweho n'abana ziri mu mabara abiri, umuhondo ndetse n'icyatsi, abana bicaye bazengurutse ameza, mwarimu wabo na we ari iruhande rwabo arimo kugenda abafasha.

Abana bari kumwe na mwarimu wabo, batembereye bava iruhande rw'ishuri, bakaba bajyanywe ahagana hirya kugira ngo bagende bamenyerezwa ndetse n'ubwonko bwabo bugendade bukora neza.

Ameza ateretseho ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu kurya, hari ibiyiko, ibyuma ndetse hakaba n'amasahani agiye ateretseho.

Ikote rirambitse hejuru y'intebe ndetse akaba nta muntu wicaye ku ntebe. Akaba ari mu ishuri, iryo shuri rikaba ari ishuri bigaragara ko rishaje cyane.

Abana b'abanyeshuri bambaye impuzankano ya kaki ndetse bakaba bambaye n'amashati y'ubururu bwerurutse, biyicariye ku gikuta cy'amashuri aho batorotse ishuri.

Inyubako zose zikwiye kuba zifite ubwiherero, kubera ko umuntu uba mu nyubako cyangwa uyikoreramo, aba azakenera ku bujyamo.

Ibiti bibiri binini biri imbere y'ishuri ndetse hakaba hari n'ibindi bigiye biri bigufiya. Ayo mashuri yubatse mu buryo agiye asumbasumbana ndetse akaba asakajwe amabati y'ubururu.

Urupapuro rwometse ku gikuta rusa ibara ry'umuhondo, rukaba ruriho imbonerahamwe y'uburyo abarimu bigisha amasomo yabo ndetse ibi bikaba bibafasha kutibagirwa.

Ubwiherero butatu bwegereye ikigo cy'amashuri; ni ubwiherero bufite imiryango igera muri ine, ariko iyo miryango yose ikaba ifite inzugi zisize ibara ry'icyatsi kibisi.

Urupapuro rwometse ku gikuta rugaragaza amabwiriza agenga abanyeshuri biga muri iryo shuri. Ni urukuta ruriho amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza ndetse no mu ibara ry'ubururu.

Abana babiri b'abahungu bafatanye ku rutugu bari kuva ku ishuri, uko bigaragara ni inshuti bose bahetse udukapu tudoze mu gitenge ndetse dufite n'imashini.

Ibipapuro birebire byometse ku gikuta bigaragara ko ari ahantu mu ishuri ndetse bikaba byometse hejuru y'ikibaho cy'umukara kiri gutunguka cyandikishijweho ingwa.

Inyubako nziza cyane yubakishije amatafari, ikaba irimo umuriro w'amashanyarazi, hejuru mu nguni hacometse utwuma twinshi cyane, turiho insinga zitwara umuriro.

Iyo mwarimu yigisha agenda akoresha ibintu bitandukanye, hari igihe afata impapuro akazishushanyaho ibimenyetso bitandukanye, akabyomeka ku gikuta kugira ngo abanyeshuri bajye babireba buri munsi.

Akabati keza cyane kamanitseho ibikombe by'imidari ndetse bikaba bikozwe muri zahabu, bikaba aribyo ikipe yatsindiye igihe yajyaga mu marushanwa.

Agakarito karimo ingwa z'amabara atandukanye zifashishwa na mwarimu igihe arimo kwigisha abanyeshuri, hari iz'umweru iz'umuhondo ndetse n'umutuku.

Urupapuro rumanitse mu idirishya, rwanditseho imibare. Ndetse hakaba hari n'ijambo rinini cyane rigaragara ryanditse rigira riti, andika Rwanda. Hakaba hariho umuntu urimo gufasha umwana gusoma.

Leta y'u Rwanda yashyizeho gahunda yo kugaburira abana ku ishuri kugira ngo bajye babasha kugira imyigire inoze ndetse bige nta nzara bafite. Gusa iracyafite ikibazo cyuko nt'aho kurira hahari, abenshi barira mu mashuri banigiramo.

Igikuta k'inzu cyometseho taburo y'umukara yifashishwa n'abanyeshuri igihe barimo kwiga. Bikaba ari ibintu bituma bose bakurikira icyarimwe nta n'umwe urangaye.

Urupapuro rw'umweru rwometse ku gikuta ndetse rukaba rwanditseho amagambo yandikishijwe ibara ry'umutuku ndetse n'umukara, urwo rupapuro ruriho amategeko n'amabwiriza agenga ishuri.

Ikigega cyumukara kiri iruhande rw'inzu isakaje amabati ashaje ariko iyo nzu ikaba iteye nk'ishuri, hari umwana uri iruhande rw'ishuri akaba afite ikiziga arimo gucunga.

Icyapa kimanitse ku gikuta, ahantu bigaragara ko ari mu ishuri, ki kaba kiriho amagambo y'ikinyarwanda agira ati: ndi umunyarwanda, isano ihuza abanyarwanda.

Ibitabo byiza cyane byo gusoma biri muri etajeri, biratondetse neza ndetse buri byose biri mwanya wabyo bitewe n'ubwoko bwabyo.

Burya kwigisha abana batoya biragorana. Ni yo mpamvu rimwe na rimwe hifashishwa udupapuro twanditseho imibare ndetse n'inyuguti kugira ngo ugende ubasomera unabereka.

Inyubako nziza cyane ifite umuryango ukinguye, bigaragara ko ari inyubako y'ishuri. Ni inyubako yubatswe mu buryo bugezweho ku buryo ifasha abanyeshuri bayigiramo.

Icyapa gishushanyijeho abana bagiye batandukanye, barimo abakobwa ndetse n'abahungu bambaye impuzankano z'ishuri, kikaba cyifashishwa mu kwigisha abanyeshuri.

Abana babiri barafatanye bari kujya kwiga. Ni abakobwa, bambaye impuzankano, ndetse uko bigaragara ni abana biga mu mashuri abanza. Bahetse ibikapu bose.

Umuhanda w'igitaka hakaba hari ibiti biwegereye ndetse hakaba hagaragara imodoka iri hafi y'icyapa, gusa ni mu giturage kuko hari akazu ka gitwe kimwe gashakaje amategura.

Abana babiri umwe arimo gukaraba intoki munsi y'ikigega undi na we afite igikapu mu ntoki akaba amufashije urugi, inyuma yabo iruhande rw'ikigega hari abandi bana bambaye impuzankano.

Abana baje kwiga ku ishuri bakaba barimo baragenda batambagira inyuma y'ishuri, iryo shuri ryubatswe n'amatafari y'impunyu ndetse risize amarange y'umweru ndetse rikaba ari ishuri rigezweho.

Inyubako ifite umuryango usizwe irangi ry'umweru, ikaba ari inyubako yubakishijwe amatafari ahiye ndetse azwi ku izina ry'impunyu, hejuru hariho akantu k'umweru kagaragaza ko hari umuriro w'amashanyarazi.

Agapapuro kamanitse hejuru ku gikuta, kakaba gafite ibara ry'umuhondo ariko hakaba hashushanyijeho ibishushanyo bigiye bitandukanye, akaba ari ibyifashishwa mu kwigisha abana batoya.

Tabulo yanditseho amagambo agiye atandukanye ndetse n'inyuguti. Bigaragara ko iri mu ishuri, aho yifashishwa n'abanyeshuri baba barimo kwiga.

Abana bavuye ku ishuri barimo kugenda bagana mu ishuri ryabo ndetse bigaragara ko bose bahetse ibikapu, aba bana harimo abakobwa ndetse n'abahungu.

Idarapo ryiza cyane ry'igihugu cy'u Rwanda, rishinze imbere y'amashuri. Ayo mashuri akaba afite urubaraza runini ndetse hakaba hari inkingi zigenda zifata urwo rubaraza.

Umuryango munini cyane wanditseho amagambo ari mu ibara ry'ubururu, uwo muryango ukaba winjira ku Ipeti Seminari ya Fideli de Butare.

Inyubako nziza cyane bigaragara ko ari nk'ikigo cy'amashuri, ikaba mo imbere ifite ikibuga kinini cyubakiye ndetse hakaba hari ubusitani burimo imikindo mitoya itarakura.

Umuntu wambaye itaburiya y'umweru akaba ari umwarimu, yambaye n'agapfukamunwa ari kwandika ku kibaho imbere ndetse bigaragara ko hari n'abanyeshuri barimo kwiga.

Imodoka nziza cyane iparitse ahabugenewe ndetse hakaba hari umuhanda ugaragara neza cyane wa kaburimbo, aho hari n'ipoto nini ndende cyane ijyana insinga z'amashanyarazi.

Abana b'abanyeshuri bari imbere y'ikigo cyabo, bakaba bari kumva amategeko ndetse n'amabwiriza animatrice wabo arimo kubaha, imbere y'icyo kigo hashinze amadarapo abiri.

Etajeri irimo ibitabo bitandukanye byo gusoma, akaba ari mu cyumba cyagenewe isomero hakaba harimo abanyeshuri bambaye impuzankano, buri wese afite igitabo cye arimo gusoma.

Urukuta runini cyane rwubakishijwe amatafari ndetse hakaba hasizeho irangi, iryo rangi na ryo rishushanyijeho udushushanyo dutandukanye bisa nk'aho ari urukuta rw'ikigo cy'amashuri.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, bambaye impuzankano zitandukanye. Nk'uko bigaragara ni ibigo bibiri byahurijwe hamwe, bikaba birimo gufata amahugurwa ndetse n'inyigisho zitandukanye.

Inyubako nziza cyane ifitemo imbere etajeri, iteretsemo ibikoresho bitandukanye, byifashishwa n'abanyeshuri biga iby'ubuganga, igihe cyose barimo gusuzuma ibintu bitandukanye.

Abana bicaye mu ishuri bambaye impuzakano, hose imbere yabo hari amakaye yo kwigiramo ndetse bifashe neza cyane biteguye kwiga. Izo mpuzankano bambaye ziri mu ibara ry'ubururu, biga mu mashuri abanza.

Abana bicaye mu ishuri barimo kwiga, bambaye impuzankano y'umweru ndetse hasi bambaye kaki, ishuri barimo rifite inzugi zisize ibara ry'ubururu.

Icyapa gishushanyijeho abantu babiri barimo gusoma igitabo kikaba kiri imbere y'inyubako, iyo nyubako ikaba ifite ubusitani buri imbere bwiza cyane.

Mu ishuri rimwe mu yigirwamo mu gihugu cy'u Rwanda harimo itaburo y'umukara ndetse ikaba ishushanyijeho amagambo yandikishije ingwa, bigaragara ko ari aho abanyeshuri bigira.

Inyubako nziza cyane iri haruguru yumuhanda. N'inyubako ifite urugi rwiza cyane rw'ubururu, ndetse hakaba hanyuramo utuntu tw'umuhondo hagati. Bigaragara ko ari inyubako y'ikigo cy'amashuri.

Umuhanda ugizwe n'amabuye y'amasarabwayo, ndetse ukaba unyura iruhande rw'amazu, ayo mazu akaba afite umuryango w'ubururu, hejuru hanyura ipoto itwara insinga z'amashanyarazi.

Inyubako nziza cyane ifite urugi rufite amabara y'ubururu ndetse ikaba yanditseho ko ari ikigo cy'amashuri bigaragara ko ari icy'umutagatifu.

Abana bambaye impuzankano y'umweru n'ipantaro ya kaki, bari ahantu hamwe bigaragara ko baserutse hari aho bagiye gusura gusa bose bambaye amakarita abaranga.

Umuntu w'umugore wambaye ipantaro imununiriye ari imbere y'abana arimo kubaganiriza, umukobwa umwe yahagurutse agiye kubaza ikibazo, aba bana bose bambaye impuzankano zisa.

Biragaragara neza ko mu Rwanda bamaze gutera imbere ku kigendanye n'amashuri kuko ibigo byose bisigaye bifite inyubako nziza cyane, zifite isuku ndetse ziteye amarangi meza.

Abanyeshuri biga ibijyanye n'ubuganga, barimo kwigira mu nyubako irimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa kwa muganga. Ni mu rwego rwo kugira ngo bakaze ubwenge bwabo.

Umugore bigaragara ko ari mugufi cyane ari imbere y'inyubako, iyo nyubako ni inyubako yishuri ndetse hari urukuta rushushanyijeho abana babiri, umuhungu n'umukobwa bambaye impuzankano.

Umuntu urimo kugenda mu muhanda ariko akaba yambaye umukandara ndetse yatebeje. Imbere ye hari abandi bantu bari mu muhanda bahagaze ndetse inyuma yabo hari inyubako y'ikigo cy'amashuri.

Abanyeshuri bambaye impuzankano y'umweru n'umukara bari mu kizamini, buri wese yicaye iruhande rwe ndetse buri wese ari kureba ku rupapuro arimo kwandika, gusa harimo umwe byayobeye wifashe ku gahanga.

Abana bageze mu gihe cyo gufata ifunguro rya saa sita, aba bana bitaweho uko barya ibiryo bigizwe n'indyo yuzuye, harimo ibyubaka umubiri, ibitera imbaraga n'ibirinda indwara, igitangaje barenzaho imbuto zitandukanye nk'umuneke ndetse n'amatunda.

Inyubako nziza cyane bigaragara ko ari inyubako y'abakatolike, ikaba ifite inzugi nziza zisa neza, hejuru hasakaje amabati y'ubururu, imbere yayo hari abantu b'abamasera bari gutambuka, ndetse hakaba hari umuhanda wa kaburimbo uri imbere yayo.

Inzu nziza cyane yubatswe n'amatafari ahiye, ikaba izitijwe uruzitiro rugiye rurimo n'ibyuma ndetse hejuru yayo hakaba hanyura urusinga rw'umuriro w'amashanyarazi.

Intebe zo kwicaraho ziri mu ishuri ndetse hakaba hari n'imyenda irambitse hejuru y'intebe imwe. Iyo myenda isa ibara ry'umweru bigaragara ko ari iy'umwarimu.

Isomero ni icyumba cyagenewe gusomerwamo kikaba gishyirwamo ibitabo bitandukanye, hanyuma abashaka gusoma bakajya baza kuhasura bagafata icyo bashaka bakagisoma.

Inyubako y'ikigo cy'amashuri iriho urukarabiro. Hakaba hari icyapa kinini cyanditseho amagambo agaragaza ko ari urwunge rw'amashuri rwa Rega ADPER.

Abantu bari mu nzira bari kugenda, ndetse bageze iruhande rw'inyubako, iyo nyubako ikaba isize amarangi y'umweru, ifite amadirishya y'ibirahure, ikagira n'uruzitiro ruri imbere yayo.

Mu Rwanda ni Igihugu gikomeye ku muco cyane ku buryo kizwiho kubyina imbyino gakondo by'umwihariko mu bigo by'amashuri na ho batoza abana kubyina bene izi mbyino.

Abanyeshuri biga ku kigo bafashe umwanya wose baza muri salle y'inama, aho bari kugenda bumva insanganyamatsiko bateguriwe ndetse utumvise neza akabaza ikibazo.

Ikibuga cyiza cyane cyubakishije sima kirimo intore zirimo guhamiriza zambaye impuzankano y'imikenyero n'udupira tw'umweru. Hari abanyeshuri bicaye mu itente barimo kwitegereza.

Abana bicaye mu kizamini barimo gukora, umwarimu ubahagarikiye na we ari imbere, ari gucunga ko ntawe ukopera gusa hari abanyeshuri b'abahanga mu gupera, barimo kugenda bamucunga bakopera.

Umuryango munini cyane winjiramo umuhanda bigaragara ko hanyura imodoka, hari amarembo manini maremare yubatswe n'ibyuma ndetse iruhande rwayo hari akajaride keza karimo indabo zitarakura.

Abanyeshuri bicaye muri sale, bakaba barimo kuganirirwa ku ngingo zigiye zitandukanye gusa hari umwe mu banyeshuri uri imbere yabou fite indangururamajwi, urimo kugenda abagezaho imbwirwaruhame.

Abakinnyi b'umupira iyo bagiye gutangira gukina barabanza bakihuriza hamwe nk'ikipe imwe, bagasenga bagasaba Imana intsinzi gusa igitangaje amakipe yose arabikora ariko itahana intsinzi iba ari imwe gusa.

Abana bari mu nzu. Bakaba bishimye cyane aho bari kumwe n'umuyobozi wabo arimo kubigisha uburyo baririmba ndetse hakaba hari n'abandi bantu bicaye mu ntebe, bari kwitegereza imiririmbire y'abo bana.

Inyubako nziza cyane isakaje ibati ritukura, munsi hakaba hari umuhanda utambuka ugenda, bigaragara ko hari ubusitani bwiza ndetse hakaba hari ibiti byinshi.

Umugabo ushinzwe umutekano afite inkoni mu kwaha, yegamiye igikuta. Inyuma ye hari urugi rwiza cyane rufite ibara ry'icyatsi kibisi ndetse arinze inyubako nini cyane.

Umugabo wambaye ikote, uri kugaragara igice kimwe cy'ukuboko, akaba ari kwerekana ibitabo birunze ku meza, ariko akaba arimo no kwandika imbere ku kibaho imibare.

Umurezi w'umubyeyi yihagarariye hagati y'abana, arimo kubaganiriza, ndetse abana bose bicaye ku ntebe za plastique z'umweru, baramukurikiye bambaye impuzankano.

Abanyeshuri bigaragara ko ari abakobwa ndetse n'abahungu bahetse ibikapu, bambaye impuzankano bakaba bagiye ku ishuri. Barimo kwinjira mu modoka ifite ibara ry'umuhondo n'umweru.

Abana b'ababyinnyi barimo guhamiriza ndetse bateye icumu, amaboko ari mu kirere bayarambuye yabaye nk'amahembe y'inyambo ndetse bakaba bari mu kigo cy'amashuri mu munsi Mpuzamahanga.

Umugabo w'umwarimu ari imbere ari gushushanya ibishushanyo bitandukanye ku kibaho cy'umukara, hari igishushanyo cy'izuba yashushanyije ndetse n'ikindi cya mpande eshatu, akaba ari kugenda abyifashisha yigisha abanyeshuri.

Icyapa cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru kikaba kigaragaza ko ari ishuri ry'ubumenyingiro ryo mu Rwanda riherereye mu karere ka Huye.

Imodoka nziza cyane zanditseho amagambo ahinnye agaragaza ko ari Kaminuza y'u Rwanda, ni imodoka ziparitse mu kibuga cyagenewe guparikwamo izo modoka.

Inyubako nziza cyane ifite jaride ndetse ikaba ifite n'aho kwanika imyenda, hakaba hanitse imyenda iri mu mabara atandukanye, imwe yanitse ku migozi indi yanitse hasi.

Igiturange gituye gicucitse, ndetse ubona ko hagiye harimo n'urutoki, bigaragara yuko ari ahantu ku mudugudu gusa inzu zose zihari zisakaje amabati ashaje.

Inyubako nziza cyane irimo ahantu ho gukarabira hazwi nko muri dushe, hakaba harimo amazi aturuka hejuru, bikaba bifasha umuntu.

Icyumba cyiza cyane gifite aho kuryama ndetse kikagira akabati umuntu abikamo ibikoresho bitandukanye, hejuru y'akabati hakaba hamanitse amavarisi.

Iyubako nziza cyane ubona ko zibereye ijisho, ziri ahantu hitaruye ubona yuko hari n'ubusitani bwiza cyane, ikirere kirasa neza igicu n'umweru sinakubwira.

Inyubako ifite giriyaje nini kandi nyinshi, ikaba mo imbere harimo ameza ndetse nama etajeri manini cyane, ikaba ari inyubako yifashishwa n'abanyeshuri.

Inyubako nziza cyane ifite ibati ritukura ndetse ikaba ifite urucaca rwiza cyane, hakaba harimo imigozi yo kwanikaho imyenda, hanitse imyenda, iri mu mabara atandukanye.

Abantu ni urujya n'uruza bamwe baramanuka abandi barazamuka, bari mu kayira keza cyane gashashemo amapave ndetse hari imodoka iparitse ku ruhande yanditseho Kaminuza y'u Rwanda.

Abantu babiri begereye iruhande rw'umuryango winjira mu nyubako. Iyo nyubako nk'uko bigaragara, ni iyo mu kigo cy'amashuri cyangwa se akaba ikoreshwa mu bigendanye no kwiga.

Abantu baricaye mu mbuga bamwe bafite ibikapu abandi bafite amakaramu na za mudasobwa bakaba barimo kwiyigira, bigaragara neza ko rimwe na rimwe umuntu aba akeneye kujya n'ahantu hatuje ngo yiyigire.

Umuntu wubatse inzu nziza cyane akayubaka ahantu hitegeye, ikaba ari inzu ifite ibati ritukura ndetse ikaba yubatswe mu buryo bw'agacurama, ni inzu ifite jaride nziza irimo utwatsi dutoshye.

Akabati kamanitseho za malete ebyiri nini, ndetse mu kabati mo imbere hakaba harimo ibikoresho bitandukanye, birimo amavuta yo kwisiga, ndetse hakaba hari igitanda kiri imbere yako.

Inyubako isize irange risa n'ivu ndetse ikaba ifite n'ahandi hasize irange ry'umweru ikaba ifite inkingi nyinshi cyane ziyiteze, hakaba hari imbere yaho ubusitani bwiza cyane burimo indabo zitoshye n'urucaca.

Umuryango winjira ku nyubako nini cyane ndetse ukinjira hari urukarabiro rw'umweru ndetse hakaba hari igiti kinini cyane k'inganzamarumbo, haratunguka inyubako ifite igikuta cyubakishije amabuye.

Inyubako nziza cyane yubatse ahantu hirengeye, bigaragara yuko yubatswe mu buryo bw'igorofa, ikaba isize amarangi y'umweru ndetse ifite n'andi marangi afite ibara ry'ivu. Iruhande rwayo hari ubusitani burimo indabo n'ibiti.

Inyubako nziza cyane, iriho urubaraza imbere yayo. Hari abantu bigaragara ko bamwe binjira, abandi basohoka ndetse hakaba hari n'abakoze amatsinda, barimo kuganira.

Inyubako iriho ibyapa byanditseho amagambo. Hakaba hari n'ikarita ishushanyijeho ndetse n'izindi mpapuro ziriho utugambo duto dutoya.

Umugabo aricaye yambaye ishati y'umweru ndetse ari kurebana n'umwarimu we. Uyu akaba yiga ibigendanye n'ubuganga. Arimo kugenda asobanurirwa byinshi cyane.

Amazu agerekeranije akaba ari amazu yubatswe mu buryo bw'igorofa, asize amarangi y'umuhondo ndetse n'umweru, afite inkingi zigiye zimanutse zikagera hasi.

Icyapa kinini cyanditseho UR Rwanda, kikaba cyanditseho ko ari ahantu bakirira uje abagana, hari ifoto imanitse mu muryango y'umuntu uhakorera.

Icyapa kinini cyane cyanditseho amagambo y'Icyongereza, gusa ngerageje kugenekereza mu kinyarwanda, handitseho amagambo agaragaza ko, ari kaminuza y'Abagatolike iri mu Rwanda.

Mu cyumba harimo ameza, harimo intebe ziteye kuri tapi, iyo tapi ifite amabara abiri, ari yo umweru ndetse n'ubururu, hari na matora irambitseho imisego, iri ku gitanda.

Icyapa kiri mu ibara ry'umweru, kikaba gifite ikirangantego ndetse kikaba cyanditseho amagambo mu ibara ry'ubururu, asobanura ko ari Kaminuza y'Abakatolike iherereye mu Rwanda.

Inyubako nziza cyane ya etage igeretse rimwe, ikaba isakajwe amabati y'umutuku, ifite inkingi nyinshi cyane zigiye ziyifashe ndetse imbere yayo hari ubusitani burimo utuyira dushashemo amapave.

Intebe nyinshi cyane zicarwaho n'abanyeshuri, zikaba ziteye iruhande rw'ameza ndetse ziteye zirebana, izo ntebe zose zifite ibara ry'umukara, hari umubyeyi uri imbere urimo kugenda areba ko ziteye neza.

Intebe ziteretse mu ishuri zikaba zifite imyanya yo kwicarwaho n'uwo kwegamaho ndetse hateretse ameza, hari uruzitiro rugaragara ruzitije ibyuma rumeze nk'uruba kuma esikariye azamuka.

Inyubako ifite inkingi zikomeye zisize irange ry'umweru, hakaba hari ibiti binini bifite amashami manini ndetse maremare hari n'indabo nziza cyane zifite ibara ry'umuhondo.

Inyubako nziza cyane zisakajwe amabati y'umutuku, hakaba hari gucamo umuntu ufite ubumuga bw'amaguru bitewe n'uko ari kugendera ku mbago.

Inyubako nziza cyane, isize irangi ry'umweru ndetse ikaba ifite inzugi z'ibirahure bibonerana, imbere yayo hakaba hari akabuga gashashemo amapave.

Abaganga babiri bicaye mu ishuri ariko bakaba ari abarimu, barimo kwigisha abanyeshuri uburyo ubuganga bukorwa neza by'umwuga.

Umunyeshuri yicaye iruhande rw'igikuta cy'inzu, ndetse akaba arimo gusoma, bigaragara ko ari wenyine, ari mu gihe cya nijoro, abandi bigiriye kuryama.

Icyumba kirimo intebe nyinshi ndetse kuri buri ntebe hakaba harimo mudasobwa yifashishwa n'umunyeshuri igihe cyose arimo gusubira mu masomo ye, bikaba ari ibintu byiza cyane bishimwa na leta.

Umugore mwiza cyane wambaye ibaji cyangwa ikarita y'akazi, akaba yambaye agapfukamunwa ndetse n'amarinete, afite umusatsi ushokoje neza akaba afite indangururamajwi arimo kuvuga ibiganiro bitandukanye.

Umugabo bigaragara ko yambaye umupira wanditseho amagambo inyuma mu mugongo, ari kumwe n'abandi bantu babiri barimo n'umukobwa. Bose bari imbere ya mudasobwa arimo kwiga ibintu bigiye bitandukanye.

Inyubako ifite ibara ry'umukara ahagana hejuru, ndetse no ku nzugi ikaba ifite amakaro ayubatse hasi, ndetse ku gikuta cy'amatafari hakaba hamanitse icyapa gifite mpande enye.

Icyapa kinini cyane gifite ibice bitatu, igice cya mbere cyanditseho amagambo y'Igifaransa, igice cya kabiri cyanditseho Icyongereza, naho igice cya gatatu cyanditseho amagambo y'Ikinyarwanda.

matora isasheho amashuka meza cyane ari mu mabara abiri ndetse ikaba iteretse ku gitanda ubona ko hari n'akayitajeri, kari hafi ahongaho umuntu abikamo ibikoresho by'ibanze.

Urupapuro rumanitse ku gikuta gisize ibara ry'umuhondo ndetse hakaba hari akabati kari mu nguni gafite ibara ritukura ndetse hakaba harimo n'ameza, ni mu cyumba umuntu abamo.

Imodoka yanditseho amagambo ari mu ibara ry'ubururu ndetse akaba ari mu rurimi rw'Icyongereza. Aya magambo yose asobanura Kaminuza y'u Rwanda.

Abana benshi cyane b'urubyiruko bicaye mu nyubako yagenewe gukorerwamo inama ndetse bigaragara ko bakurikiye umuntu uri imbere ufite icyo arimo kugenda abagezaho.

Resitora zo mu Rwanda zizwiho gutanga serivisi inoze, ku buryo abantu benshi cyane bagenda bazigana bagafata ibyo kurya bitandukanye.

Umwana w'umukobwa afite igikapu ari guhaguruka mu ishuri ndetse bigaragara ko hari mugenzi we, witandiye igitambaro mu mutwe we ukiyicariye uri kwiga.

Inzu nziza cyane ifite urubaraza ikaba iri iruhande rw'umuhanda, ni inzu bigaragara yuko ari ikigo cy'amashuri cyangwa se hakaba hakorerwa ibindi bintu bijyanye no kwiga.

Inyubako ifite urubaraza runini, ikaba ifite inkingi ziyiteze ndetse imbere yayo ikaba ifite akajaride keza karimo indabo z'iroze ndetse hakaba hari n'ikibuga kinini gishashemo sima.

Inyubako nini cyane bisa nkaho ari urusengero, ni inyubako isakajwe amabati y'umutuku, imbere yayo yarunze imicanga y'umweru, ndetse hari ubusitani bwiza cyane burimo ibiti bitandukanye.

Ni mu ishuri hari intebe nyinshi cyane, izo ntebe nta munyeshuri n'umwe uzicayeho, imbere hari igitambaro cyifashishwa mu gusakaza amashusho binyuze mu ikoranabuhanga.

Abantu bicaye mu nyubako mo imbere mu cyumba. Barimo gukora inama. Hari umugore bigaragara ko ari umuzungu, akaba arimo kubabwira ibigendanye niyo nama ari imbere y'ikirangantego.

Nubona muganga uzamwubahe, aba yaraciye muri byinshi, ndetse yarize byinshi, nk'uko bigaragara, abaganga batatu, ariko, bakaba ari abaganga b'ahazaza, kuko barimo kwitoza umurimo w'ubuganga.

Abantu benshi barahagaze, barimo kwitegereza mu nyubako imbere. Iyo nyubako barimo ifite igisenge kinini cyane gifite ibyuma bigifashe, atatsemo ibintu by'ibyapa by'umuhondo.

Utuvido dutatu turimo amazi duteretse hejuru ya ka etajeri, ako ka etajeri kakaba gateretsemo mu imbere inkweto zigera ku miguru itatu, kakaba kari iruhande rwa matora zishashe neza bigaragara ko ari mu buryamo.

Abantu benshi bigaragara ko bari kwitegereza muri mudasobwa, bakaba bari mu nyubako y'ishuri, aho barimo kwigishwa na mwarimu ibintu bigiye bitandukanye.

Inyubako ifite inzugi ebyiri, ikaba ifungishijwe serire nziza cyane, ikaba ifite ibikuta bisize irangi ry'umweru.

Rido nziza cyane zisa neza ziri ahantu mu nyubako, bigaragara ko ari inyubako y'ishuri ndetse akaba ari aho abanyeshuri bacumbika cyangwa se baryama.

Ikigega kinini cyane kizamutse kigeze hejuru mu kirere, kikaba cyubatswe mu buryo bugezweho, aho gifite amagambo y'ubururu yanditse hejuru yacyo.

Abanyeshuri biga ubuganga bavanwe muri laboratoire. Bakaba barimo kugenda bakoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga bareba uduce dutoya tugize ibintu bitandukanye.

Inyubako nziza cyane, yubatswe mu buryo bugezweho, ikaba ari inyubako ya kaminuza yigenga ishingiye ku muryango wa gikirisiristo, ikaba ari iy'abantu ba EPR.

Imashini irambitse ku meza, ikaba iri gukoreshwa n'abanyeshuri barimo kwiga, iyi mashini ikaba iri mu bwoko bwa laptop ndetse ikaba ifite aho bacagingira.